Umwana mutoya w'umwirabura, wambaye ishati yayizinze amaboko yayagejeje mo hejuru, akaba afite akamwenyu ku maso, ari gukaraba intoki kuri robine, iruhande rw'iyo robine hakaba handitse WASAC.

Umugabo umwe uri imbere ufite microphone abagore batatu bari ku ruhande bari mu cyumba cy'inama bari kwiga ku nsanganyamatsiko igira iti "twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera".

Umukobwa umwe uri muri za makumyabiri, wicaye ku ntebe ufite umusatsi w'umukara, akaba ari guseka, yambaye ubukomo bububiri ku kuboko, agashanete mu ijosi, isengeri y'umukara n'ipantaro y'ubururu.

Abana batatu b'abirabura babiri muri bo bambaye ubururu, undi umuri inyuma wambaye umweru, umwe uri imbere afite uburoso bw'umuhondo yabuzamuye, uwa kabiri abufite mu kanwa, uwa gatatu ari kubwiboroshesha.

Umugabo w'umwirabura, wambaye itaburiya y'ubururu, akaba afite agakoresho gakoreshwa mu buganga bapima imiterere y'umutima, akaba ari kumwe n'umutegarugori ukuze mu myaka, ufite inkoni z'abakuze mu myaka.

Umutegarugori w'umwirabura n'umusore w'umuzungu, bari kugerageza gufasha umusaza w'imbaraga nkeya kuba bamuhagurutsa, no kuba bamugendesha aho atari kwifasha.

Inyuguti eshatu zifite amabara atatu agiye atandukanye: ubururu, umuhondo, icyatsi, zikaba ziserukiye cyangwa zigaragiye urwego rushinzwe ubuvuzi mu Rwanda.

Inzu ikorerwamo siporo irimo imashini nyinshi zigiye zitandukanye zifashishwa mu kunanura imitsi mu gukora umubiri, zirimo zimwe baterura izindi bakanyonganyonga.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati ikaba yambaye imashini bigaragara ko ari gupimwa nundi wambaye ijire y'ubururu n'amarinete imbere yabo hakaba hari imashini ebyiri inyuma kuri uwo mugabo wambaye ijire y'ubururu hari kizimyamwoto ebyiri z'ubwoko butandukanye, iruhande rwazo hari igishusho cyanditseho irembo www irembo akadomo komu.

Icyumba cy'ivuriro kirimo imashini zigiye zitandukanye zifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo udutanda, kamwe muri two kakaba kari hagati, kakaba karyamyeho umuntu.

Iduka ririmo umugore uteze igitambaro mu mutwe cy'umweru, inyuma ye hakaba hari undi wambaye itaburiya y'umweru, imbere yabo hakaba hari abaguzi babiri baje kugura imiti ya gakondo.